Itangazo ryo kwamamaza ikigo gitanga ubwishingizi kizwi nka radianti, iryo tangazo rivuga ko nta kindi kigo mu Rwanda gitanga ubushingizi buciriritse na nka radiyanti, muri iryo tangazo hariho abagore babiri bari guseka, ndetse no gusuhuza umuntu bamusekera bameze nk'abari kumwakira.

Itangazo ryo kwamamaza kampani y'ubwishingizi yitwa buritamu, muri iryo tangazo harimo umuryango ugizwe n'umugabo, umugore n'umwana w'umukobwa, bose bari guseka ndetse hari n'umuganga umeze nk'aho arimo aravura uyu mukobwa iryo tangazo rivuga ngo, ubuzima bwawe ni bwo bukire bwawe.

Icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, hakaba hariho ifoto nini y'umugabo wambaye ishati n'umupira w'umweru, uruhande rumwe hateye irangi ry'umweru n'amagambo y'umutuku. urundi hateye irangi ry'umutuku n'amagambo y'umweru.

Umuntu yambaye imyenda myiza, ikanzu y'umutuku, ikoti ry'icyatsi ari gusinya impapuro nk'uko bigaragara, aho barimo baranamufotora, ahagararanye n'abandi bagabo babiri nabo bambaye amakoti, ubona bameze neza.

Icyapa kinini cyane cya sosiyete y'ubwishingizi ya radiyate, handitse ngo turi kumwe kugira ubwishingizi bw'ubuzima bwawe mu muryango, hakaba hari ahantu handitse ngo kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe akadirishya.

Icyapa kinini cyane kiriho ifoto y'umubyeyi wambaye imyenda y'ubururu afite n'imisatsi yumweru, icyapa kikaba gisa n'umutuku, kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse hakaba hari n'irindi zina rya Pamu Martin n'indi mibare yandikishijwe ibara ry'umukara iri mu kantu k'umweru.

Icyapa kinini cyane gihagaze ahantu bakimanitse ahantu mu kirere kikaba kiriho amafoto y'abagabo babibiri umugabo umwe uri imbere hakaba n'undi uri inyuma, bose bakaba bambaye amakoti n'amakaruvati, icyapa kikaba cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Ibyakozwe kuri konti, tariki eshanu z'ukwacumi n'abiri na makumyabiri na mirongo itanu n'umunani havuyeho amafaranga magana ane y' u Rwanda. Tariki eshanu z'ukwacumi n'abiri na makumyabiri na kane saa moya n'iminota icyenda za mu gitondo havuyeho amafaranga magana ane y' u Rwanda. Tariki eshanu z'ukwacumi n'abiri bibiri na makumyabiri nakane saa kumi n'ebyiri n'iminota mirongo itanu n'irindwi hagiyeho amafaranga magana ane mirongo ine n'ane y'u Rwanda.

Konti y'ikigo k'igihugu gishinzwe itumanaho, iyo konti ikaba ifite nimero:zero karindwi; umunani; karindwi; icyenda n;umunani; cumi nagatutu; itatu rimwe. Iyo konti ifiteho amafaranga y'u Rwanda magana atandatu, iyo konti irerekana uburyo bwinshi harimo uko wabikuza ndetse ni uko washyiraho amafaranga kuri iyo nkonti.

Mu isoko ry'imyenda bacuruza amashati harimo abagabo n'abamama babiri n'ibipupe byambaye imyenda hari ameza y'ubururu abagabo bambaye amashati y'umweru bari gucuruza n'umama wambaye umupira w'umutuku.

Ahantu hari agatanda kagerekeranye karimo inkweto nyinshi zitandukanye mu isoko. Inkweto z'abagabo n'inkweto z'abakobwa, inkweto zifunze n'inkweto zifunguye, harimo inkweto z'umweru, hakabamo inkweto z'umuhondo, hakabamo n'izindi z'umukara n'umweru.

Iduka ricuruza imyambaro, imyambaro ikaba ari imipira, imipira ni imipira idafite amakora ndetse yiganjemo amabara menshi arimo ibara ry'icyatsi, ibara ry'ubururu n'ibara ry'umukara. Imipira imwe iramanitse ku cyuma hifashijwe udukoresho twabugenewe mu kwambika imyenda n'imipira izinze irambitse ku ruhande.

Inzu irimo imyenda y'ubwoko butandukanye kandi y'amabara atandukanye harimo imipira y'umweru, oranje, icyatsi. Imyenda y'aba papa ,iy'abana ndetse n'amakabutura.

Iduka bacururizamo imitako, hakaba harimo iyo kwambara mu ijosi, hakaba harimo imitako myiza cyane, iy'umweru, n'indi igiye irimo amabara atandukanye, ikaba iri ku kantu k'umukara kameze nk'ijosi.

Iduka ricuruza ibintu gakondo bya mede ini Rwanda harimo nk'imipira inkweto imigongo ndetse n'indi mitako gakondo, buri bicuruzwa bigiye bibitse ahabyo bitewe n'untu bimeze, imipara n'inkoto bibitse ukwabyo, ndetse n'imigongo n'ibindi bibitse ukwabyo.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye y'abagabo harimo imipira ndetse n'ibindi, iyo mipira yose ifite amabara atandukanye kandi yose imanitse ku cyuma cyabugenewe kimanika imyenda. Iyo mipira harimo ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, umuhondo n'imipira y'amakipe nk'ikipe ya arisenari ndetse n'andi makipe, imipira ifite ibara rya shokora, kacyi ndetse n'iyindi.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi y'umukara akaba yambaye umupira w'umukara arishimye cyane ari gufungura impano, impano ziri mu gakapu k'umutuku, impano ziri mu gakapu kumukara, iziri mu gakapu k'ubururu n'izindi nyinshi cyane.

Abagabo babiri bahagaze mu muhanda w'amapave ndetse umwe muri bo akaba yambaye ipantaro ya kaki ishati ya kake undi akaba yambaye ishati ya karokaro ndetse n'ipantaro y'ivu, abagabo bombi bafite icyapa mutoki umwe muri bo akaba yambaye amarinete, inyuma yabo hari imodoka zifite ibara ry'umweru ndetse ku ruhande rwo hirya hateye ibiti.

Ababikira babiri bahagaze bari kumwe n'undi mugabo umwe wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro ya kaki, ababikira babiri bambaye imyenda y'ababikira ifite ibara rya kaki umwe muri bo ateruye agakapu mu ntoki kafite ibara ry'umutuku, inyuma yabo hari imodoka ndetse bahagaze mu ma pave.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, afite icyapa mu ntoki cyanditseho Akagera motozi, inyuma y'iwe hari imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo yanditseho fuso ndetse imodoka ikaba ifite ibara ry' umweru iyo modoka iraparitse.

Icyumba cy'inama gifite ibikuta biririko irangi ry'ikijuju n'umweru, ririmo abantu batatu abagabo babiri n'umugore umwe, bicaye ku ntebe z'ibyuma z'ikijuju imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru n'icy'igitenge, giteretseho amacupa y'amazi ibitabo na telefoni.

Abagabo babiri bahagaze, umwe muri bo yambaye ishati ya karokaro irimo uturongo tw'umweru ndetse n'umukara, undi yambaye ipantaro ya kaki. Uwo ku ruhande rwo hepfo yambaye umupira w'umukara, ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Bose bafite icyapa kirimo hagati yabo cyanditseho Akagera. Inyuma yabo hari imodoka iri mu bwoko bw'igikamyo, ikafite ibara ry'ubururu.

Imodoka nziza n cyane cyane ya toyota, imodoka y'umukara ikaba ihagaze ahantu imodoka zihagarara, inyuma yayo hakaba ari igikuta kirekire cyubakishijwe amabuye. Imodoka ikaba ifite ibara ry'umukara ndetse ikaba iri kugurishwa.

Umugabo wambaye ingofero, agapfukamunwa n'ishati y'iroza, arimo arasobanuza ibibazo afite, arimo arasobanuza umuhungu wambaye umupira w'umweru ndetse uwo muhungu n'inzobe, uwo muhungu ari kumusobanurira ariko umuhungu ari inyuma y'ikirahure, umugabo ari inyuma yicyo kikirarahure.

Umugabo wicaye mu biro wambaye isaha ku kuboko ifite ibara rya zahabu akaba yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'ubururu bwerurutse ndetse na karuvati y'umukara, uwo umugabo ari imbere ya mudasobwa ndetse afite agaporo mu ntoki arimo arandikamo ibyo bintu muri mudasobwa, uwo mugabo ku ruhande rwe ho hirya hari undi mugabo uhicaye wambaye ishati y'umweru ndetse imbere yiwe hakaba hari icyuma gifotora impapuro.

Inoti ebyiri za magana atanu z'amafaranga y'u Rwanda inoti yo hejuru ishushanyijeho ikiraro kinyura mu kirere, iruhande rw'icyo kiraro hateyeho ibiti, inoti yo hasi ishushanyijeho abana bafite mudasobwa bari kwiga.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo nk'amazi, amata ndetse n'ibinyobwa bidasembuye, ku ruhande rw'iburyo hari ibinyobwa biri mu cyuma gikonjesha ndetse nibyo binyobwa bikaba bidasembuye, ku ruhande rw'ibumoso hari ibinyobwa nk'amazi biri muka etajeri gafite ibara ry'umweru.

Abantu babiri baricaye ku meza y'umweru iriho utudomoro tw'umweru, bari kunywa amata mu bikombe by'umweru, bafashe n'imigati, kuruhande hakaba hari umuntu wabazaniye ayo mata, inyuma yabo hakaba hahahagaze n'undi uwambaye umwenda icyatsi .

Inzu bacuruzamo imitobe n'ama ji haba harimo amaji atandukanye akaba yongera imbaraga n'akozwe mu muri tangawizi, imbere yaho hari imeza iteretseho udukarito tubiri kamwe kavamo ikawa.

Mu gasahani k'umweru gateretse ku meza y'umukara kariho imigati itatu yokeje mu ifuru, hakaba hari n'akantu ko gufatisha k'umwe ku ruhande hari agakombe k'umweru n'umukara.

Ikaragiro ricuruza amata ari mu bwoko bw'inyange, hari umugore urimo arasuka amata yifashishije igikombe gifite ibara ry'umweru, munsi y'icyo gikombera hari indobo ifite ibara ry'ubururu. Iryo karagiro rikaba ryanditseho amagambo yo mu ndimi z'amahanga avuga yuko bacuruza amata y'inyange. Iryo karagiro rikaba riri mu nzu.

Umuntu ari kunywa amata, amata ari mu gikombe, igikombe kikaba gisa n'umweru , akaba agifatishijeje intoki ziwe, hakaba n'undi ufasheho izindi ntoki, kikaba gifite ibirango by'umutuku.

Iduka ricuruza imijyi bitandukanye nk'amanta amandazi ndetse n'ibyokunywa bidasembuye, muri iryo duka hahagazemo umugabo wambaye umupira w'umutuku, ku gikuta hateye irange ry'ubururu ndetse hirya y'uyu mugabo hari ikaragiro ririmo amata mu nzu barimo hubatswemo amakaro.

Iduka ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye harimo nka sambusa amandazi amata, ndetse n'ibindi byo kunywa bidasembuye, iryo duka hahagazemo umuhungu wambaye umupira wa karokaro n'ipantaro y'ikoboyi mu iduka ry'imbere harimo umuhungu wambaye umupira w'umweru, akaba afite akabedo k'umweru mu ntoki ndetse n'amvelope.

Abantu bari muri terefone bameze nk'aho ari ibintu uri kwishyura, ni abahungu babiri bahagaze umwe yambaye umupira w'ubururu ndetse undi yambaye ingofero n'amarinete hirya ku ruhande rw'ibumoso hahagaze abandi bagabo babiri umwe yambaye ikote rya beje, undi yambaye ikoti ry'ubururu.

Urupapuro rw'umweru rugiye rurimo imibare myinshi yandikisha ibara ry'umukara, ndetse rukaba rurimo kugarukamo ijambo Rwanda, ikaba ari muri Nyarugenge, rukaba ari urwimisoro, imisoro y'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi yenda gusa umweru, tukabonamo inzu ku ruhande yarwo yubakishije amabuye kandi ifite amababi y'umutuku ni'gipangu cy'umukara.

Amanoti ane hakaba hari ininota imwe yo muri Tanzania y'ibihumbi icumi hakaba n'indi y'ibihumbi bitanu hakaba n'indi note y' ibihumbi bibiri n'indi note y'igihumbi inote y'ibihumbi icumi iri mu mabara ya oranje hakaba nindi note y'igihumbi iri mu mabara y'ubururu iruhande rwayo hakaba hariho ibiceri.

Umuntu arimo arabara amafaranga y'abanyamerika aho mu izina ry'ikizungu azwi nk'amadorari, inoti ziteretse ku meza, inoti z'igihumbi ndetse n'izindi noti zi'ijana, inoti z'igihumbi zifite akagozi kazifashe gasa n'umutuku.

Inoti y'amafaranga mirongo itanu akoreshwa mu gihugu cya Kongo iyo note ikaba iriho amazu, inyuma yaho hariho insina ndetse yanditseho ngo banki santarari do kongo, ibyo bikaba byayandijwe amagambo atsindagiye ndetse na mirongo itanu, byayigijwe amagambo atsindagiye.

Inoti ya magana atanu yo mu bwoko bw'amayero ,ishushanyijeho inyenyeri ziri mu bwoko bw'umuhondo n'inzu y'amagorofa, aho mu izina ry'abanyamahanga baryita etage.

Ibiceri byinshi cyane birimo amabara nka ya zahabu, harimo n'akandi gatako karimo igishushanyo cy'umugabane wa afurika, kuruhande hakaba hari inote y'ijana, irimo amabara y'umutuku ndetse n'inote y'ijana y'amafaranga y'abanyamerika, bikaba biri ku rupapuro rurushushanyijeho ibintu by'imirongo.

Inzu nzu nziza cyane yubakishijwe amatafari, ikaba ifite amadirishya y'ibirahure ndetse hari ibyuma biteye irangi ry'umuhondo ndetse hakaba hari icyapa kinini cyanditseho ijambo Muhabura n'andi magambo y'icyongereza.

Intebe nziza cyane iri muri saro urabona ko ari ibintu bisa neza inyuma yayo hari izindi ntebe z'umukara na mudasobwa igikuta kimanitsweho amashusho meza hakaba hariho n'isaha, intebe ifite ibara ry'ubururu ika ifite n'imisego yanditseho amagambo.

Imeza zo kuriraho zigizwe n'intebe esheshatu ndetse n'ameza ari hagati, izo ntebe zifite ibara ry'umukara ndetse ayo meza hateretseho amatasi abiri, itasi imwe iri ku ruhande rwo hepfo, itasi y'indi iri ku ruhande rwa ruguru, ayo matasi akaba afite ibara ry'umweru.

Ameza yo kuriraho agizwe n'intebe enye ndetse n'imeza ikozwe mu ishusho y'umuzenguruko, ku ruhande rw'iburyo hari umuhanda wa kaburimbo ndetse uwo umuhanda uri gucamo imodoka y'ikamyo ifite ibara ry'umweru, kurundi ruhande hari moto iri gutambuka muri uwo muhanda yicayeho umumotari wambaye ijire ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Akazu gatoya keza cyane k'inyamaswa kakaba kafungishijwe imisumari mu mbaho z'umuhondo, hakaba n'akandi gafasheho, iruhande rwaho hari akandi kantu k'urubaho rw'umuhondo inyuma hakaba hari uruzitiro ruzengurutswe n'ibyuma.

Intebe nziza cyane z'umukara n'icyatsi intebe zo mu ruganiriro habamo intebe ebyiri nini n'intebe ebyiri ntoya, zikaba zifite ameza atatu akameza gatoya utumeza tubiri n'imeza nini ku ruhande hakaba hari ikigega cy'umukara.

Ahantu abantu hasohokera hakaba hari ameza menshi hakaba hari n'imitaka. Ameza amwe igiye afite intebe enye ziyazengurutse, intebe z'umukara. Aha hantu hakaba hisanzuye cyane, ku ruhande hakaba hari ibiti bizana akayaga igihe abantu bari gufungura.

Akazu keza cyane kubatswe neza kakaba kubakijwe amatafari kakaba gasakajwe amategura, gafiteho amadirishya ateye irange ry'umweru, imbere y'inzu hakaba haparitse imodoka ebyiri iy'umweru n'iy'umukara.

Inzu yo mubwoko bwa etage ifite amagorofa atandatu ndetse kuru ruhande hakubaswa ibirahure. Iyo nzu hasi yaho ifite ubwogero bufite ishusho y'umuzenguruka. Ubwogero burimo amazi ndetse ku ruhande rw'iburyo hari ahantu hateye ibiti, ku rundi ruhande hari beto.

Ni akazu ka emutiyene kateye irangi ry'umuhondo gafunze imiryango yose gashushanyijeho serivisi zose emutiyene itanga kari hagati y'ibyapa bibiri ndetse nipoto n'ishyamba.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama bicaye ku ntebe z'umweru yiganjemo abagore ndetse n'abagabo urabona ko ari ibintu byiza cyane bari mu nzu isize amabara y'icyatsi.

Inzu yo mu bwoko bwa etaje ifite amagorofa abiri ikoreramo ikigo gitanga ubwishingizi, imbere y'iyo nzu hari umugore wambaye ishati ya kaki n'ipantaro y'umukara uri kuzamuka amadarajya, imbere yiwe hubatswe amapave, ndetse iyo nzu ikaba ku ruhande yubakishijwe amakaro.

Inzu nini cyane y'amagorofa ageretse ndetse inzu yanditseho n'amagambo manini mu nyuguti nini cyane z'umweru ngo sonarwa, ifite amarangi y'umuhondo imbere y'inzu hakaba ari ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti by'icyatsi.

Imodoka nyinshi zihagaze ahantu hamwe hakaba ari imodoka zihagaze ziri kureba ku nzu hakaba n'indi ihagazeri itari kureba ku nzu imodoka z'umukara imweba imodokake ebyiri, eshatu z'umweru hakaba n'indi modoka ifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi.

Sare nziza cyane irimo intebe nziza, intebe enye ku ruhande rumwe, no kurundi ruhande hakaba harimo izindi eshatu, hagati y'intebe harimo akameza k'umweru intebe z'umukara ebyiri, n'intebe z'icyatsi ebyiri, hirya hari intebe z'icyatsi ebyiri, intebe imwe y'umukara n'akandi kameza k'umweru.

Inzu igeretse ifite ibara ry'umweru imbere y'iyo nzu haparitse imodoka y'umweru kandi iruhande rw'iyo modoka hari umwana ufite indobo urimo uratambuka, na none imbere y'iyo nzu hari imodoka y'ivatiri inyuma yaho hahagaze abantu.

Inzu y'ubwoko bwa etaje ifite amagorofa atandatu, ikaba iteye irange ry'umutuku, iyo nzu iri kwamamaza kampani y'ubwishingizi bwa sahamu, imbere y'iyo nzu hari ipoto ry'umweru itara ryo mu muhanda ndetse n'ibikoresho byerekana imodoka amerekeza.

Ibikuta byiza cyane bifite inzu nziza, bifite ibikuta byiza, imiryango y'imituku, amadirishya, ateye amarangi meza kandi asa neza, ubona ko igaragara neza ifite aho kuganirira hameze neza cyane.

Icyumba bogosheramo, kikaba kiri mu mabara y'umutuku, imbere yaho hari igiti cy'icyatsi, hakaba hariho n'ikindi cyapa hakaba hari ibyapa bibiri, icyapa kimwe n'icya banki, ikindi ni iki icy'ubwishingizi, ku muryango wa salo handitseho ijambo simba.

Abantu benshi baricaye harimo abari kubaza, hari n'abari kubakira abari kubakira bambaye udupfukamunwa, n'abari kuza bambaye udupfukamunwa, inyuma y'abo hari ibikuta binini biri mu mabara y'umweru n'umukara bishushanyijeho abantu.

Inyubako nziza igerekeranye mu mabara meza y'icyatsi n'umweru, ikaba iri ahantu heza hateye n'akajaride k'ibiti irikwamo n'amatara ndetse ifite n'igisenge kiriho indabyo n'ibiti bizana umwuka mwiza.

Itangazo rya ayendemu banki rivuga ngo ni inde wemerewe inguzanyo, akaba ari ikiganiro kizaca kuri radio wani kuva saa moya na mirongo ine n'itanu za mu gitondo kugeza saambili za mu gitondo mu kiganiro bategereje, uzatanga ikiganiro akaba yitwa Christian abijuru akoba ari umukozi ayendemu banki iryo tangazo rikaba rivuga ngo iyubake na ayendemu banki.

Icyapa kinini cyane kiriho intebe, hakaba hariho n'undi mukobwa uhagaze ku ruhande, akaba yambaye ishati y'umukara akaba afite imisatsi y'umukara, ku ruhande hakaba handitse amagambo menshi arimo ibara ry'icyatsi, iry'umuhondo n'iry'umweru.

Abantu batatu bahagaze ku murongo hakaba harimo umwe wambaye ikote ry'umweru n'ingutiya y'umutuku hakaba ari n'undi wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara hakaba n'undi wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru imbere yaho hari umuntu uri kwakira wambaye umupira w'umuhondo n'ikote ry'umukara akaba afite imitsi.

Mu muhanda hari abantu benshi bari guturuka mu mpande zitandukanye. Hari umuhanda w'abanyamaguru hejuru hari na kaburimbo iri kunyuramo moto hagati aho abantu ba bari kunyura cyangwa ku mpande z'uwo muhanda abanyamaguru bari kunyuramo hari inyubako ku ruhande rw'iburyo no kuhande rw'ibumoso hino hari ipoto.

Umukobwa n'umuhungu bifotozanyije ifoto nziza cyane, aho umuhungu yambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru, umukobwa na we akaba yambaye ikanzu y'umweru, bakaba bahagaze iruhande rw'inzu nziza cyane ndetse inyuma yaho hakaba hari n'indi nzu iriho n'ibitoki.

Abantu babiri bahagaze n'umugabo afashe igitabo ari kwandika n'umugore arikureba ibyo arikwandika, ku ruhande hari ahantu handitse ngo saba inguzanyo ya iga usoze umugambi wo kwiga gutwara imodoka ku rundi ruhande hari imodoka ihagaze ifite irangi ry'umweru.

Isoko ricururizwamo ibiribwa. Mur’ibyo biribwa harimo imyumbati, imineke, ibitoki ndetse n'amapapayi. Mur’iryo soko harimo umugabo wicaye ku gatebe ndetse mur’iryo soko harimo umumama wambaye amadarubindi urimo urareba hasi.

Umukobwa mwiza wambaye umupira w'ubururu n'ikanzu y'ubururu bwijimye, akaba ari gucuruza imbuto, hakaba haje kugura umuntu wambaye umupira w'umutuku ufite n'umusatsi w'umukara w'umusore, bakaba bari mu isoko, hakaba harimo n'ibindi bicuruzwa byinshi.

Abantu bari mu isoko ricururizwamo inkweto zo kwambarwa muri aba bantu hari umugabo wicaye ku ntebe y'umutuku ndetse muri aba bantu hari abantu bahagaze barimo baraganira ubona ko bishimye imbere yabo bantu umugabo urimo kuragura inkweto zo kwambara.

Isoko ririmo umusaruro w'imboga n'imbuto, hakaba harimo imboga z'icyatsi, imboga z'umweru, hakaba harimo ibigori n'ibitoki ndetse isoko rikaba atari irya kijyambere, ni isoko risanzwe hakaba harimo na tungurusumu n'amashu.

Isoko ricuruza imyenda itandukanye harimo' abagabo ndetse n'y'abagore ndetse'indi ika afiteta amabara atandukanye. Muri iryo soko harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe bose baricaye. Umugore umwe yambaye gukaru mu mutwe k'umutuku ndetse afite n'sakoshi mu ntoki ifite ibara ry'umuhondo, ku rundi ruhande hari undi mukobwa wambaye imyenda y'icyatsi ndetse yambaye n'amarinete.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo imboga ndetse n'imbuto. Muri iryo soko harimo abagura ndetse n'abagurisha, ibumoso hicaye abagore babari barikurebana n'undi mugore uri ku ruhande rw'i buryo wambaye ikanzu y'igitenge urimo uracuruza inyanya, ibitunguru, intoryi ndetse n' amavuta.

Isoko rinini cyane, isoko ririmo abantu benshi, isoko bacuruzamo ibiribwa by'imbuto n'imboga. Hakaba harimo imbuto zigiye zitandukanye, hakaba harimo n'imboga zigiye zitandukanye, harimo ibitoki, hakabamo inyanya, amakaroti ndetse n'intoryi.

Isoko ricuruza ibigiye bitandukanye harimo nk'imipira amakipe ifite amabara atandukanye arimo nk'ifite amara y'icyatsi, amabara y'ubururu ndetse n'amabara ya kaki. Iyo mipira yose ikaba imanitse ku rundi ruhande bacuruza imitako, bacuruza ibitenge ndetse bacuruza n'amaherena ndetse n'ibikomo, bacuruza imitemeri, bagacuruza imigongo ndetse n'duseke.

Umugabo wikoreye imizigo, iyo mizigo akaba ari imifuka ibiri iyo mifuka ibiri yose ikaba ifite ibara ry'icyatsi. Uwo mugabo yambaye igisarubeti cy'ubururu ndetse kiriho amagambo y'umweru. Ku kuruhande rwo hirya hari umuntu wambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda, imbere yiwe hari umugore wambaye igitenge, ku rundi ruhande hari undi wambaye impuzankano za daso.

Iduka ricuruza ibikorerwa mu Rwanda harimo nk'uduseke ,imigongo, ibikomo, amaherena ndetse n'ibitenge .Umucuruzi yambaye umupira w'ikipe ya bariserona (barcelona ) aricaye arimo akoresha terefone. Ku ruhande rwe rw'iburyo hari undi mugore wicaye w'umucuruzi ndetse n'undi muhungu uhagaze wambaye umupira w'umutuku.

Umuhanda mwiza cyane kandi munini, amamodoka aragenda, ndetse n'abanyamaguru baragenda, n'iyo haba na nijoro. Kuko mu muhanda harimo amatara, kugeza abantu bageze iyo bajya. Ubu biroroshye, kuko na n'ijoro ugenda umurikiwe.

Isoko ricuruza ibintu bigiye bitandukanye haririmo nk'amasakoshi, imitako ndetse n'ibindi, iryo soko rikaba ricuruza imyenda y'abagore, abana ndetse n'abakobwa, harimo abacuruzi babiri, umucuruzi umwe yambaye umupira w'umukara ndetse n'ikanzu aricaye, ku ruhande rw'iwe hari undi mucuruzi uhicaye wambaye imyenda y'ubururu ndetse nawe aricaye.

Abagabo bane bahagaze imbere y'iduka ricuruza ibyo kurya, mu iduka harimo ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo umuceri ndetse n'isukari, umugabo umwe aricaye ameze nk'aho yikorera imizigo, yambaye isarubeti irimo irasa n'ubururu n'aho undi mugabo uhagaze yambaye isarubeti irimo irasa n'icyatsi yambariyemo umupira w'umuhondo.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Isoko cururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo imboga n'imbuto, ku ruhande rw'iburyo hari umugore uhicaye urimo atu n'ibishyimbo abishyira ku nkoko, ku ruhande rw'ibumoso hari inkoko iriho bitungo ndetse n'inyanya, inyuma hari abakiriya barimo abagabo ndetse n'abagore.

Abanyeshuri babiri bambaye impuzankano y'umweru na kaki, ndetse bambaye n'imikandara isa y'imikara. abanyeshuri bose bahetse igikapu mu mugongo, umwe muri bo ahestse igikapu cya shokora, abandi bahetse igikapu cy'umukara. Bakaba bari munsi y'umutaka ufite ibara ry'umuhondo, umutaka akaba ari uwa kapani itanga serivisi z'itumanaho izwi ku izina rya emutiyene.

Umutaka w'umuhondo wanditseho mukande akanyenyeri rimwe umunani kabiri urwego, hakaba hahagaze abantu babiri harimo uwambaye isenge y'umuhondo n'umupira w'ubururu n'umweru, hakaba nundi wambaye umupira w'umutuku.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya bari guseka, ndetse bose bambaye imipira y'imihondo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho kizwi mu ndimi z'amahanga nka Emutiyene. Umugabo umwe w'ibumoso yambaye akuma, kifashishwa mu gusakaza amajwi. Inyuma yabo hari abaturage babakikije bameze nk'aho hari ibintu bari kwamamaza.

Akazu kubatswe muri shitingi gafite ibara ry'umuhondo, imbere yako hahagaze abantu b'abasore ndetse bageze ku kumunani cyangwa icumi, umwe muri bo yambaye umupira w'ubururu undi icyatsi undi yambaye ishati ya karokaro, abantu bose bahagaze imbere ku kazuba bari kureba muri ako kazu nk 'aho hari ikintu bari kubereka.

Ifoto yo'ubwoko bwa sikirinishuti yafashwe na terefone, irimo abakobwa batatu bafatanye ku rutugu, umwe muri bo yambaye umupira w'ubururu wa mobayiro mani, ni inzobe abandi babiri bambaye imipira y'umuhondo, uwo mo hagati afite isakoshi ku rutugu yambaye rinete ndetse yambaye n'ingofero.

Inzu ikorerwamo n'ikigo gishinzwe itumanaho cya MTN, ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu ku ruhande imbere yayo hahagaze abagabo bane harimo umwe w'umuzungu abandi b' abirabura ,abagore batatu bambaye ibara ry'umuhondo ndetse umwe yambaye umupira w'umweruru.

Umumama arimo arakoresha uburyo bwiza wo kwishyura amafaranga no kwishyurwa no kohereza ahagaze ahantu keza ku kazu, ku kazu gato kari mu mabara menshi cyane, umuhomdo, umweru, n'ubururu kari n'ahantu heza.

Akazu gakozwe mu byuma katangirwamo serivisi za emutiyene (MTN) harimo kubikuza ,kugura amayinite , kubitsa ndetse n'izindi .Harimo umuhungu ukorera emutiyene (MTN) wambaye ijire ndetse n'agapfukamunwa k'umukara. Ku ruhande rw'iburyo hari umuhungu uhagaze umeze nk'urimo arasaba serivisi wambaye agapfukamunwa n'ingofero.

Icyapa cya emutiyene kigaragariza abaguzi kode bishyuriraho iyo bamaze kugura ibicuruzwa, iki cyapa kikaba gifite kode ya rimwe zeru mirongo inani na kane cumi na gatatu, iki cyapa kikaba giteretse ku meza, imeza yateretse hejuru y'amakaro.

Akazu gato k'umuhondo kanditseho m na t na n, mo imbere hakaba harimo umugore urimo kwahira kuruhande hariyo abagore babiri umwe wambaye ishati y'umutuku n'ingutiya y'umukara kurundi ruhande hakaba harimo abandi bagabo batatu umwe wambaye ishati yumutuku n'undi wambaye umupira w'umweru.

Uyu ni umwe mu mihanda ishobora kuba igaragara mu Rwanda, aho bagaragaza agace imodoka nk'izitwaye abagenzi cyangwa se n'izitwara imizigo zishobora kuba zahagarara umwanya muto mu gihe cy'akaruhuko.

Iduka ricuruza ibikoresho bya eregitoronike harimo amakoteri ndetse n'ibindi, iryo duka rikaba rifite uburyo bwo kwishyura ukoresheje terefone ngendanwa, uburyo buzwi mu ndimi z'amahanga momo peyi iryo duka rikaba rifite kode y'umucuruzi gatandatu, zeru zeru rimwe, ikenda gatandatu, ku ruhande hakaba telefone bagurisha ya emutiyene.

Akazu gatangirwamo ubufasha bwa sosiyete y'itumanaho ya MTN gakozwe mu byuma, gasize ibara ry'umuhondo, urimo aratanga ubufasha yambaye umupira w'umutuku aricaye, urimo asaba ubufasha yambaye umupira wa kakaro arahagaze, inyuma ye hari umugabo wambaye umupira w'umweruru.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo kakaba gakozwe mu cyuma, gatanga serivisi z'ikigo gitanga itumanaho kizwi ku izina rya MTN, imbere y'ako kazu hari abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, umugore yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, inyuma ye hari umugabo wambaye imyenda ya kaki isa ndetse ku ruhande rwe hepfo hari undi mugabo wambaye ikoboyi.

Ikigo gikora ubucuruzi hifashijwe murandadasi gifite izina rya rute Rwanda kiri gutanga serivisi, abatanga serivisi ni abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe. Ikigo Kiracuruza amatelefoni, amashirijeri ndetse na mudasobwa gifite na telefoni zeru karindwi umunani, rimwe mirongo itatu, ndetse n'iminani ine.

Moto ebyiri zitwaye abagore, abamotari bose ni abagabo. Abamotari bambaye ingofero z'ubwirinzi zifite ibara ry' icyatsi ndetse n'abagenzi bambaye ingofero z'ubwirinzi zifite ibara ry' icyatsi. Motari w'imbere, moto atwaye ufite purake ya maganacyenda cumi n'umunani. Izo moto zose ziri muri kaburimbo ziri kugenda.

Umugabo uhagaze ufashe kuri moto wambaye ishati y'icyatsi ndetse iyo shati ikaba irimo akarongo, iyo shati yanditseho vuba vuba. Vuba vuba akaba ari ikigo gitanga serivisi kuri murandasi cyo kugemura ibyo abantu baba baguze bifashishije ikoranabuhanga uwo mugabo uhagaze mu muhanda, hepfo hari umuhanda wa kaburimbo ndetse umuhanda imodoka kaburimbo inyuma ye hari icyapa cyanditsetseho ngo Bugarama.

Mu nama cyangwa se mumahugurwa, biba byiza cyane yuko abantu bitabiriye iyonama cyangwa amahugurwa, bakurikiira ibiri kubera muri iyo nama cyangwa se ayo mahugurwa, mugihe cyose bayitabiriye bika byiza y'uko, mugihe hari igitekerezo kiza kivugiwemo, abafite aho agomba kucyandika kugira ngo kize kumufasha hanyuma.

Umuntu wicaye kuri moto igemura ibintu baba baguze bifashishijwe murandasi, bagemuye ibintu ibintu afite telefone imuri imbere yo kumwereka amerekezo y'aho atwaye ibyo bintu, kampani akorera yitwa kani go, telefone imuri imbereye ifite ibara ry'umukara ndetse na moto, yicayeho ifite, ibara ry'umukara.

Inzu nziza cyane igaragara mu marange meza y'umweru, ifite amatara ari kwaka, ifite ubusohokero bwiza cyane bukingishijwe ibyuma bikomeye cyane amakaro.

Inzu igurishwa yo mu murenge wa Kanombe, mu mujyi wa Kigali. Iyo nzu ikaba isakajwe amabati atukura ndetse ku ruhande rwayo, yubakishijwe amabuye aconze. Iyo nzu hasi hubatse amapave ndetse hakaba haparikwamo imodoka enye. Iyo nzu ikaba igurishwa miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umugabo uri kuranga ibibanza bigurishwa, umugabo yambaye umupira ndetse n'ijiri n'ipantaro y'umukara yambaye ijiri ifite ibara ry'icyatsi, umukara ndetse n'ivu, uwo mugabo ameze nk'uri kuvuga ndetse kuruhande rw'iwe hari imirima ndetse n'umuhanda w'ibitaka buciyemo hagati.

Inzu iri mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ikaba ikodeshwa amafaranga miliyoni ebyiri buri kwezi. Iyo nzu ikaba ifite ibara ry'umweru mu nzu, ndetse n'inzu iri mu bwoko bwa etaje, ikaba ifite amagorofa agiye atandukanye, iyo nzu hasi hashashe ibiti ndetse ku rukuta naho ibindi biti bigiye bihateye n'amesikariye akozwe mu biti.

Inzu igurishwa yo mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, iyo nzu ikagurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri, z'amafaranga y'u Rwanda, iyo nzu ikabafite igipangu cya shokorara ndetse ikaba hasi yubatwe n'amapave, ikaba isakajwe n'amabati atukura; iyo nzu kugikuta hubakijwe amatafariye ndetse ikaba ifite inzugi zifite amabara y'umweru.

Umuntu uranga ibibanza bigurishwa Kigali Musave Bumbogo ku mafaranga miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda, afite imeri, yitwa poropati, ini Rwanda arubaze gimayiri doti komo, akagira nimero agatenyo kabiri gatanu zeru karindwi umunani kabiri gatanu rimwe ikenda kabiri mirongo ine.

Inzu iri mu mujyi wa Kigali igurishwa. Iyo nzu ikaba yubatswemo amakaro, kugikuta hakaba hateyeho irangi ry'umweru, ndetse hejuru hakaba hari parafo nay’ifite irangi ry’umweru, mu nzu mo hagati harimo itara ndetse rikaba riri kwaka. Iyo nzu ifite amadirishya ndetse n'inzugi bifite ibara ry'umukara, iyo nzu ikaba igurishwa amafaranga miliyoni ijana na mirongo Itatu z'amanyarwanda.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ikingiki nuzakibona uri mu muhanda uzamenyeko uwo muhanda urimo uragendamo iburyo n'ibumoso hashamikiyeho utundi duhanda dutoya.

Inzu nshyashya igurishwa mu mujyi wa kigali mu gace ka kanombe ku mafaranga miliyoni mirongo icyenda n'imwe z'amanyarwanda, iyo nzu iri mu bwoko bwa cadasiteri isakajwe amabati ya shokora ndetse inzugi zayo zisa umukara ikaba iteye irangi ry'icyatsi, imbere y'iyo nzu hubatswe amapave.

Inzu zo mubwoko bwa etage zifite amagorofa abiri zubatswe ku muhanda, zifite igipangu cy'umukara ndetse imbere yaho kateye ubusitani burimo amabuye. Mbega ubwo ubusitani ahubatswe amapaji ndetse izo nzu zikaba zikodeshwa n'amadolari igihumbi n'ijana ya buri kwezi muri kigali mu Rwanda.

Inzu igurishwa iri mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Kanombe, mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nzu ikaba igurishwa miliyoni magana abiri mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo nzu ikaba ifite icyumba cy'ubwogero kirimo ubwiherero bufite ibara ry'umweru, aho batereka isabune ndetse n'aho batereka akuma kamwe kamanura amazi. Iyo nzu ku gikuta ikaba ifiteho idirishya ndetse hejuru y'ayo makaro hakaba hari irangi ry'umweru.

Inzu nziza cyane ifite amarangi asa neza ndetse n'ibikuta bifite amarangi asa neza hakaba harimo ameza ateretse, akantu kajyamo indabyo ndetse hakaba hari n'intebe ziri hakurya mu nzu, inzu ikabi ifite amarido n'idirishya ry'ibirahure.

Abantu babiri bari mu nzu, inzu nziza cyane, inzu ifite amarangi y'umweru ku bikuta, ikaba ifite n'amatara meza cyane, harimo abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo ni umuzungu, umugore ni umwirabura, umugabo ari kwereka umwirabura ukuntu inzu imeze.

Inzu ivuguruye iri mu Murenge wa Kimironko iyo nzu ikaba isize irange ry'umweru ndetse n'irange rya kaki, iyo nzu ifite amadirishya asize iranye ry'umweru, ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, uruganiriro, igikoni ndetse n'aho imodoka ziparika. Iyo nzu ikaba ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atatu.

Inzu igurishwa iherereye mu mujyi wa Kigali umurenge wa Kanombe iyi nzu ikaba igurishwa amafaranga miliyoni mirongo inani n'eshanu y'u Rwanda iyi nzu ikaba ifite amapave imbere yayo, iruhande rwayo hateretse ijerekani ndetse n'urwego.

Inzu ikodeshwa iri mumujyi wa kigali mu karere ka kicukiro iyo nzu ikaba ifite irangi ry'ubururu ndetse ikaba iri mu bwoko bwa conoshi iyo nzu ifite ibara ry'umuhondo mbere ndetse ikaba ifite inzugi n'amadirishya bifite irangi ry'umukara iyo nzu imbere yayo hubatse amapave ikaba ikodeshwa magana ane y'amanyarwanda.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali mu gace ka Kimironko iyo nzu iri mu ku bwa kadasiteri, isakajwe amabati y'umutuku ikaba iteye, irangi ry'umweru wijimye, ifite inzugi zifite ibara ry'icyatsi, hasi hubatswe amapave ku ruhande rw'ibumoso hari ubusitani buteyemo ibiti.

Inzu igurishwa iri mu mujyi wa Kigali murenge wa Kanombe; ikaba igurishwa amafaranga y'u rwanda miliyoni Ijana na mirongo itatu. Iyo nzu ikabafite amakaro y'umweru ku gikuta hateye irange ry'mweru ndetse hejuru hari parafo hakaba harimo itara. Iyo nzu ifite inzugi z'ibiti ndetse ifite ibyumba bigiye bitandukanye kandi byinshi.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali mu Rugando hafi ya Konvesheni senta iyo nzu ikaba ikodeshwa amadolari ya mirongo itanu ya buri kwezi, akaba ari inzu yo mu bwoko bwa etaje ifite amagorofa, abiri iyo nzu imbere yayo hubatse amapave ndetse ifisize amarangi y'umweru.

Inzu nziza ifite uruzitiro rwiza n'uru rwiza, ari ku muryango, umuryango w'icyuma irangi ry'umweru n'umukara ndetse n'umuhondo, ku rundi ruhande hakaba hari inzu ifite amarangi y'umuhondo ndetse n'amabati y'umutuku.

Inzu igeretse, iyi nzu iri mu mujyi wa Kigali m'u Rwanda, iyi nzu ushobora kuyibona ku mafaranga y'amanyamahanga azwi nk'amadolari ibihumbi bibiri. Iyi nzu ifite ibara ry'umweru imbere y'iyi nzu hari ubusitani muri ubwo busitani harimo igiti cy'umukindo, imbere y'icyo giti hariho indabyo.

Ni nziza cyane iteye amarangi meza cyane y'umweru, ikaba ifite n'ahantu ku mbuga yayo hakaba harimo amabuye, ndetse inzu ifite amadishya y'ibirahure n'inzugi zi imbere yayo hari ahantu handitse ngo Kigali Kimironko.

Inzu yo mu bwoko bwa etaje ifite amagorofa abiri ikaba isakaye n'amabati y'umukara, ndetse ku ruhande ikaba ifite inkingi zifite ibara ry'umweru, iyo nzu ifite igikuta cyubakishijwe amatafari, ndetse imbere yayo hari ubusitani, hasi hubatswe amapave ndetse ikaba ifite n'umwanya wo guparikamo imodoka.

Inzu igurishwa yo mu Rwanda mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, iyo nzu ikaba igurishwa miliyoni eshanu z'amanyarwanda, ifite ibyumba bine ndetse ifite ubwogero butatu, iyo nzu ikaba isakajwe amabati atukura, ikaba yubakijwe igipangu cy'amatafari ndetse imbere yayo hubatse amapave.

Isoko ricuruza imboga n'imbuto rikaba rikorera munzu ifite amagorofa abiri. Iyo nzu ikaba isize iranjye rya kacyi ,iryo soko ricuruza imboga n'imbuto bitandukanye harimo imyembe, imineke, amatunda, ibinyomoro, avoka, ndetse n'ibindi. Iryo soko rifite umucuruzi wambaye umupira w'iroza.

Iduka ricuruza imyenda yo kwambara harimo imipira yimbeho, imipira isanzwe, ndetse namapantaro, muri iryo duka hahagaze umuhungu uhetse baga y' igitenge, wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'ipantaro yumukara, uwo umuhungu afashe ku umupira umeze nkaho arimo arashaka ku wugura.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo nk'intebe, imitako, ndetse n'ibindi, muri iryo duka hahagazemo abantu batatu umugore wambaye nk'abayisiramu, ndetse n'ikanzu y'umutuku ku ruhande rwe hari umuhungu wambaye ibintu by'umukara ndetse n'akantu mu ijosi, hepfo yabo hari umuhungu uhahagaze yambaye ipantaro y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara.

Isoko rya kijyambere rimanitsemo inzitiramibu y'umweru hari kwakamo n'itara ry'umweru harimo abantu bahagaze bari kureba ibicuruzwa, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye n'utubati tw'umweru.

Iduka rikora abacuruzi batandukanye. Harimo ubucuruzi bw' ibikapu, ubucuruza bw' imyenda y' abagabo, hari imyenda y' abagore, inkweto z' abagabo, hari inkweto z' abagore. Mu iduka harimo abagore babiri, umugore yambaye ikanzu ameze nk' aho arimo arabaza ibiciro by' igikapu hakaba n' umugabo umeze nkaho ariwe ucuruza icyo igikapu.

Ni abantu benshi bateraniye hamwe harimo abari kwakira hari n'abaje kubaza ibibazo no gukosoza ibibazo bafite. Bamwe bicaye imbere y'ameza harimo n'ibikapu n'impapuro inyuma yaho hari ibiti by'icyatsi.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ifite ibara ry'umuhondo, imbere kuri iyo karita hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara. Ayo magambo yanditswe ngo repubulika y'u Rwanda, minisiteri y'ubuzima, umujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro. Iyo karita ifatishijwe ukuboko kw'ibumoso.

Abagore bicaye hasi bameze nk'abari mu nama bari guhaka impapuro z'umweru ndetse umugore ukuzibahereza arahagaze yambaye ishati y'umukara n'umweru ndetse yambaye ipantaro ya kaki n' inkweto z'umukara, ku ruhande hari umugabo yicaye inyuma y'abagore bambaye ipantaro ya kaki.

Abagore bicaye ku ntebe ndetse hari n'umugabo umwe abo bagore bicaye bose se bafite ipapuro mu ntoki bameze nk'aho bicaye kwa muganga abicaye ku murongo w'imbere ni abagore batatu ndetse n'umugabo umwe abagore batatu bose bambaye ibitenge ndetse babiri muri bo bafite biteze akantu mu mutwe umugabo wicaye kuruhande yambaye ipantaro y'ubururu, inkweta z'ubururu ndetse n'ikoti ry'umweru.

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Abantu bicaye ku ntebe kwa muganga bameze nk'abaje kwivuza. Abantu batonze umurongo ndetse harimo umwana, umugabo ndetse n'abagore. Ku ruhande hari umugore uhagaze, yambaye igitenge ndetse ahetse umwana, umugore yambaye umupira w'umweru. Hari umugabo wicaye, ufite ifishi y'umuhondo ndetse n'ikarine ifite ibara ry'umutuku.

Ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, iyi karita ikaba itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda. Aho iki kigo mu rurimi rw'abanyamahanga gifite izina rya RSSB ari ryo rwanda sosho seculiti bodi.

Iduka rya kijyambere; iduka ryubatswe ku buryo bugezweho, rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye abantu bakenera mu rugo, iri cupa ririmo ibintu abantu bashyira ku ibiryo kugirango bongere icyanga cy'ibiryo barusheho kuryoherwa.

Isoko ryiza ryanjye rya mbere ricuruza ibicuruzwa bitandukanye abari n'umugabo bagiye guhaha afashe icupa yambaye umupira wumukara ni ipantaro y'uburura inkweto ku ruhande rwe hakaba hari undi mugabo n'umugore wumugabo wambaye umupira w'umukara.

Mariyoti hoteli, ikaba ari ahantu heza hari amafu kuko hateye ibiti bizana akayaga; hakaba hari ubusitani bwiza cyane bunogeye ijisho, buri muntu wese wifuza kuyiraramo ataha anyuzwe.

Isoko ryiza rya kijyambere riri ahantu hisanzuye, rikabamo ibicuruzwa bitandukanye, ibyo kurya, amavuta, harimo ibiri mumashashi, hakaba harimo n'ibiri mu macupa, birimo amacupa y'umuhondo, mumacupa y'umutuku.

Umugore wambaye umupira washokora ipantaro bifite ibara ry'ubururu, ndetse afite igikapu ku rutugu. Igikapu gifite ibara ry'umuhondo ndetse ahagaze mu iduka ricuruza imbuto zijyiye zitandukanye harimo tangawizi, imineke, insenda ndetse n'izindi nyinshi.